Umuntu wambaye imyenda ifite amabara y'ubururu n'umukara, afite igare rihetse imifuka itatu, iruhande rwe rw'ibumoso hariho igihingwa k'ibigori gihinze mu murima.

Abantu benshi batandukanye bafite ibikoresho mu ntoki, birimo ifumbire yo gusukira ku gihingwa cy'ibigori gihinzwe mu butaka.

Imifuka irunze hamwe irimo ifumbire abantu bifashisha mu gikorwa cy'ubuhinzi mu gihe bakeneye kuyuhira ku bihingwa ari byo ibinyamisogwe n'ibinyabijumba.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore, bafite amasuka bari gukora umuganda. Iruhande rwabo hariho ibiti bihateye, ndetse n'ibyatsi bya kimeza mu ishyamba ryatemwe.

Umurima uhinzwemo igihingwa cyitwa inyanya hakaba hariho n'ibiti bigomba gufata izo nyanya ngo zidahirikwa n'umuyaga hariho n'agakoresho kagomba kuvomerera izo nyanya ngo zibone amazi gutuma zikura neza.

Umuntu wambaye inkweto zifite ibara risa n'umukara n'ipantaro, ndetse afite n'igikoresho abantu bifashisha batera umuti mu gihingwa cy'amashu, giteye mu butaka buri mu gikoresho cyitwa ibase.

Umurima uhinzwemo igihingwa cy'inyanya gifite amahuri n'amababi afite ibara risa n'icyatsi hakaba hariho n'agakoresho gashinzwe kuvomerera amazi kuri izo nyanya ngo zitangirika.

Ikiganza cy'umuntu kiriho imborera yagenewe gushyirwa ku bihingwa, bihingwa mu butaka harimo ibinyabijumba, ibinyamisogwe, ndetse n'ibinyampeke kugira ngo bikure bi bimeze neza.

Icupa ririmo umuti wica udukoko two mu buhinzi bw'ibigori, ibirayi, ibitunguru ndetse n'inyanya, kugira ngo bibashe gutanga umusaruro.

Abantu batandukanye harimo abakobwa ndetse n'abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Bahetse mu mugongo igikoresho abantu bifashisha bafuhira umuti mu bigori bihinzwe mu murima.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara risa n'icyatsi, n'inkweto zifite ibara ry'umukara, n'ingofero yumutuku, ahagaze mu murima uhinzwemo igihingwa cy'amashu, akaba ari gufuhira umuti wica udukoko mu myaka.

Ikiyaga kiriho ku nkombe ubwato butatu butwara abantu bubambutsa muri icyo kiyaga ,hakaba hariho n'abasare bashinzwe kwambutsa abantu, iruhande hariho ubusitani burimo ibyatsi cyimeza.

Ubwoko bw'ibiribwa bwitwa amafi bikaba birunze hamwe. Hejuru yayo hariho udupaniye tubiri dufite amabara atandukanye ariyo umweru ndetse n'umutuku, iruhande hariho ibase ifite ibara ry'umukara.

Igikoresho cyitwa isahani kiriho amafi abiri atetswe mu buryo bwmukijwe. Ku ruhande hariho urubuto rw'ironji n'indimu, hariho n'utubabi twa seleri birambitse hejuru y'...

Abantu benshi batandukanye harimo abakobwa ndetse n'abasore, bari mu bwato bukozwe mu mbaho z'ibiti mu kiyaga, begereza ku nkombe ngo bambuke.

Ikiyaga kirimo imitego abantu bifashisha batega amafi, mu gihe bayaroba ndetse n'inkube ku nkombe y'ikiyaga, hariho ishyamba rinini ririmo ibiti bitandukanye kandi byiza.

Ikiyaga kirimo ubwato butandukanye burimo abantu bicayemo, babwifashisha batwara abantu bambukiranya bava hakurya bajya hakuno.

Abantu bari kumwe n'amatungo yitwa inka, iruhande rwabo hakaba hariho ibiti birebire bifite amashami, ndetse hakaba hariho n'ubutaka bwamezeho ibyatsi bitandukanye.

Umurima urimo ubwatsi abantu bifashisha babugaburira amatungo mu ngo z'iwabo, kugira ngo akure neza atange umusaruro ku isoko.

Inyubako yubatswe isakaye ifite inzugi n'amadirisha n'ubwiherero iruhande rwayo hariho inzira inyurwamo n'abantu batandukanye hateyeho n'ibiti

Ubutaka buhinzwemo igihingwa cy'ibirayi iruhande rwabyo hariho ibiti bihateye, ruguru hariho igihingwa cy'urutoki ndetse n'ibindi biti bifite amoko atandukanye.

Urugo rwubatswe rusakaye, imbere yarwo hariho ibiti birwanya isuri hariho n'indabo. Ndetse ku ruhande hariho igihingwa cyitwa urutoki impande y'umugenderano w'abaturanyi.

Umurima uhinzwemo igihingwa cyitwa ibirayi kikaba gifite amababi afite ibara ry'icyatsi, iruhande hariho inyubako y'inzu ndetse n'ibiti bihateye, bituma abahatuye babasha guhumeka umwuka mwiza.

Urugo rwubatse rusakaye rukaba rukikijwe n'ibiti bitandukanye harimo igiti cyitwa sipuri, ndetse n'ibindi biti bigira indabo zihumura neza, iruhande hariho ibuye.

Umurima uhinzwemo igihingwa cy'urutoki, hakaba harimo n'igihingwa cy'ikidodoki, ku ruhande uzitijwe ibiti, hirya ya ho hariho ubutaka bwamezemo ibyatsi.

Umurima wasaruwemo igihingwa cy'ibigori, iruhande hakikijweho n'ishyamba riteyemo ibiti bakuramo imbaho zo kubakisha.

Umurima uhinzwe，ufite itaka ririmo amabuye mato n’amanini，ruguru yaho hari ibiti bihateye， bifite amababi ndetse n'ibara risa n'icyatsi.

Urugo rwubatswe kandi rusakajwe amabati y'umweru, hariho umwana uhagaze ku muryango winjira mu gikari, hakikijweho ibiti by'imbuto z'avoka biribwa, hariho n'ibyatsi kimeza.

Inzu yubakishijwe amatafari, isakajwe amabati y'umweru, ikaba ikikijwe n'ubuhinzi bw'urutoki, iruhande hariho igiti cyo mu bwoko bwitwa igiko, hariho n'ubwatsi bugaburirwa amatungo.

Ubutaka bwamezeho ubwoko bw'indabo zigira amabara y'umweru ndetse n'ibyatsi by'umukenke bigaburirwa amatungo yororegwa mu ngo, hariho ku ruhande n'ibiti byahatewe.

Umurima uhinzwemo igihingwa cyitwa ibirayi gifite amababi afite ibara risa n'cyatsi iruhande rwuwo murima hateweho ibiti birwanya isuri.

Umurima wamezemo ibyatsi bitandukanye, hakaba hateyeho n'ibiti bifite amashami, hirya hariho inzu yubatswe kandi isakaje amabati y'umweru.

Umurima uhinzwemo igihingwa cyitwa amashaza, iruhande hariho ibiti ,ruguru yaho hariho inyubako y'inzu iri isakaje amabati y'umweru, ndetse n'ibindi biti bituma abantu babasha guhumeka umwuka mwiza.

Umurima uhinzwemo igihingwa cyitwa urutoki hakaba hatewemo n'igihingwa cyitwa uruyuzi iruhande rwabyo hariho inzu isakaje amabati.

Ikiyaga gifite ku nkombe ibyatsi cyimeza hariho n'igiti kigwanya isuri hakurya hateweho ibiti byo mu bwoko bw'imigano nabyo bigwanya isuri.

Inzu yubakishijwe amatafari, isakajwe amabati, ihomeshejwe ibyondo. Iruhande rwayo hariho umurima uhinzwemo igihingwa k'ibirayi, amateke n'insina. Ku ruhande hazitijeho ibyatsi bifite indabo z'umweru.

Umurima uhinzwemo igihingwa cy'ibigori, bikaba bifite ibigori byeze, bigeze igihe cyo gusarurwa bikajya kubikwa mu buhunikiro bwabyo.

Abagabo bambaye imyenda ifite amabara atandukanye bakaba bahagaze mu murima uhinzwemo igihingwa cyitwa ibirayi, bari gusarura ,bimwe biri mu mufuka uri iruhande rwabo.

Umubyeyi wambaye imyenda yiteze n'igitambaro afite n'igikoresho cyitwa isuka akaba ari mu murima. Arimo arawutegura kugira ngo ateremo imyaka.

Ubutaka buteweho insina ifite igitoki cyo mu bwoko bwa fiya, abantu bakunda kwengamo amarwa yo kunywa, giteweho inkingi y'igiti, ituma kitabasha guhirikwa n'umuyaga.

Umubyeyi wambaye umwenda ufite ibara risa n'umweru mu mutwe, akaba ari mu muririma uhinzwemo igihingwa cyitwa inyanya, hakaba hariho i imbuto zifite ibara risa n'umutuku, izindi zifite ibara risa n'icyatsi.

Umugabo ufashe ikiribwa cyitwa igihaza, iruhande rwe hari igihingwa cyitwa ibigori, inyuma ye hari ishyamba riteyemo ibiti birebire bifite amashami menshi.

Imbuto zo mu bwoko bw'indimu zikaba zirunze ahantu hamwe, zifite ibara risa n'icyatsi ndetse n'ibabi zikaba ziri ahantu, rumwe rukaba rucyetsemo kabiri.

Umukobwa wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku afashe mu ntoki igikoresho kirimo imboga zifite ibara ry'icatsi abantu bakunda guteka muru rugo.

Umurima uhinzwemo igihingwa cyitwa imyumbati ,iruhande hakaba hariho ibiti biteweho birwanya isuri kandi bigatanga n'umwuka mwiza ku bantu wo guhumeka.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bari ahacururizwa ibiribwa birimo ibitoki, ibijumba, ibirayi ndetse n'ameza arambikwaho ibicuruzwa, bibasha kwangirika bishyizwe hasi.

Umugore wambaye imyenda aniteze igitenge mu mutwe, ari mu murima uhinzwemo ibigori bifite amababi ndetse akaba ari gukuramo ibyatsi byatuma hataboneka umusaruro uhagije.

Umurima utewemo igiti cy'imbuto cy'umwembe gifite imbuto zeze, iruhande rwacyo hateweho ubwatsi bw'amatungo yororwa mu rugo.

Imboga zo mu bwoko bwitwa imiteja ziri mu gikoresho cyitwa umufuka, ,iruhande rwazo hari igikoresho cyitwa umunzani cyifashishwa hapimwa ibiro by'izo mboga.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi, akaba ari muri mu buhinzi bw'inyanya. Harimo izimaze kwera zigeze igihe cyo gusarurwa, izindi zitegereje kwera.

Igikoresho cyitwa ipaniye gishinzwe gutwarwamo ndetse no kubikwamo ibiribwa ari byo imineke, abantu bakenera kurya igihe bari gufata amafunguro mu rugo iwabo.

Ibicuruzwa byo kurya birimo ubwoko butandukanye, harimo inyanya, pavuro, imyembe, indimu, amaronji, ndetse n'abantu bari kubicuruza mu nyubako isakaye.

Ahantu hororegwa amatungo atandukanye harimo inka, intama n'ihene , kandi hakaba hariho n'umuntu ugomba kuzicungira umutekano anazigaburira ibyatsi azishora amazi yo kunywa.

Murima ututewemo imyaka hahinzwemo n'ibiti. Hakaba hariho umubyeyi ufite umugozi bifashisha, bari kuvomerera imyaka ihinzwe mu butaka. Akaba yambaye imyenda n'inkweto byagenewe abakozi bafuhira imyaka.

Abandu bane bari kunyura mu nzira. Umwe yikoreye igitoki, iruhande hariho umurima uhinzwemo ibishyimbo, ndetse n'ishyamba ry'ibyatsi ruguru yaho.

Abagabo n'abagore bari mu murima uhinzwemo igihingwa cyitwa icyayi gifite amababi asa n'icyatsi, hariho n'igikoresho bari gushyiramo ayo mababi basoromye.

Abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore bari mu kibuga, bafite amabase harimo itapa ritewemo ingemwe z'imbuto.

Umurima uhinzwemo amatunda menshi, akaba afite amahuri n'amababi afite ibara risa n'icyatsi, akaba ashingirijweho ibishingirizo, byo gutuma adahirikwa n'umuyaga.

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara risa n'icyatsi n'inkweto zifite ibara risa n'umukara afashe ipaniye mu ntoki ari mu umurima uhinzwemo igihingwa cyitwa inyanya akaba ari gusoroma inyanya zeze.

Umubyeyi ufite igikoresho cy'ubuhinzi mu kiganza cye, akaba yambaye imyenda ifite ibara ry'umweru mu mutwe, inyuma ye hakaba hari ubuhinzi bw'urutoke rwinshi.

Umubyeyi wambaye umupira ufite ibara ry'umukara n'igitenge agikenyeye, yiteze igitambaro mu mutwe, akaba ahagaze iruhande rw'umurima urimo igihingwa cy'ibigori, afashe amababi y'ibigori mu ntoki ze.

Umubyeyi wambaye imyenda akaba yiteze igitambaro, ahagaze mu murima hagati uhinzwemo igihingwa cy'ibishyimbo, bifite amababi afite ibara ry'icatsi ndetse n'uruyange.

Imbuto zo mu bwoko bwitwa inanasi, zirambitse ku mufuka uri hejuru y'igikoresho kitwa ameza, munsi yayo hariho ibase ifite ibara ry'ubururu n'umuntu uhagaze iruhande rwabyo yambaye ipantaro n'inkweto zifunze.

Umusaruro wakomotse ku gihingwa cyitwa amateke, iyo bagiye kugiteka bamanza bayoza mu mazi ubundi bakayateka hejuru y'ibishimbo.

Igihingwa cyitwa amashaza gifite amababi, afite ibara risa n'icyatsi, ndetse n'imishogwe ifite ibara risa n'icyatsi.

Umufuka urambitsweho imifungo y'imbuto, z'ibinyomoro ndetse na marakuja, ruguru yaho hariho ipaniye n'umuntu wicaye yambaye inkweto zifite ibara ry'umukara.

Inyubako irimo abantu benshi batandukanye baje kugura no kugurisha igihingwa kiri mu mufuka cyitwa ibirayi, abantu bifashisha bategura amafunguro yo kurya.

Igikoresho cyitwa umufuka gisashe hasi, hariho ibiribwa by'amoko atandukanye ari byo, inyanya n'intoryi, iruhande hicaye umuntu wambaye inkweto zifunze n'ipantaro.

Umuntu wambaye ingofero n'umwenda ufite ibara ry'umweru akaba ari mu murima uhinzwemo igihingwa cya pavuro zifite amahuri afite ibara ry'umuhondo andi afite ibara risa n'icyatsi.

Ikiraro cyubakishijwe imboho kikaba gisakajwe amabati y'umweru kikaba cyororerwamo ubworozi bw'inkoko harimo igikoresho abantu bifashisha inkoko zinyweraho amazi.

Umugore uhetse umwana yitwikiriye umutaka akaba ari kumwe n'abagabo batatu bari kwanika ku ihema umusaruro ukomoka ku gihingwa cy'ibigori.

Inyubako zubakishijwe imbaho zikozwe mu biti, zikaba zirambitsweho ibihingwa byitwa amashu, iruhande hahagazeho umugore uhetse umwana, ndetse n'umukobwa iruhande rwe.

Umubyeyi wambaye imyenda ari mu murima uhinzwemo igihingwa cyitwa ibirayi akaba ari kubisukiraho itaka, kugira ngo bibashe gukura neza bitange umusaruro.

Abagore bane bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, bafite n'ibikoresho bifashisha mu kazi k'ubuhinzi bari mu murima batunganya ubutaka bwo guhingamo imyaka.

Umubyeyi wambaye imyenda, yambaye n'agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umweru, ari mu murima uhinzwemo igihingwa cyitwa ibishyimbo hashingirijweho imishingirizo yo gutuma ibishyimbo bizamuka neza.

Abagabo, abagore n'abana bafite amasuka bari mu murima uhinzwemo umuceri bari gutunganya, bayobora amazi ataza kwangiriza umuceri.

Ibiribwa byo mu bwoko bw'intoryi n'ibibiriganya n'ibitunguru na Beterave, ikaba irambitse ku mufuka iruhande rwabyo hariho ikigega gifata amazi gifite ibara risa n'umukara.

Igihingwa cyitwa ibijumba bifite ibara ry'umutuku, inyuma ku gishishwa bikaba biri mu gikoresho gifite ibara ry'icyatsi iruhande rwaho hahagaze abantu babiri.

Umugabo wambaye imyenda n'ingofero, ahagaze hagati mu murima uhinzwemo igihingwa k'ibigori. Bifite amababi asa n'icyatsi ndetse yatangiye guheka ibigori.

Abantu batatu bari mu murima uhinzwemo igihingwa cyitwa amashu ,inyuma yabo hari igihingwa cyitwa ibigori hateyemo n'igiti kirekire gifite amashami manini.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara jy'umweru, umutuku n'ubururu ari mu murima usaruwemo ibirayi afite umufuka wo kubishiramo ,ndetse n'igikoresho cyitwa isuka cyo kwifashisha abikura.

Umurima uhinzwemo igihingwa cyitwa ibirayi. Harimo umusore wambaye imyenda ifite amabara atandukanye. Ahetse igikoresho bifashisha bafuhira umuti w'ica udukoko mu myaka ngo itabasha kwangirika ntitange umusaruro.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru n'ingofero zifite ibara ry'umweru bari gucagura imbuto z'ibiti bya avoka zeze basaruye kugira ngo zibashe kugurishwa ku isoko.

Umubyeyi wambaye imyenda akaba afite igitambaro mu mutwe gifite ibara risa n'umweru, akaba ari mu murima urimo ubuhinzi bw'inyanya, zikaba zifite amahuri afite ibara risa n'umutuku ndetse n'icyatsi.

Abantu bari ahahinze ubuhinzi butandukanye hariho ibigega bifata amazi yo kuvomerera ubwo buhinzi ruguru yaho hakaba hariho inyubako yubatswe inasakaye.

Umufuka urimo igihingwa cyitwa imyumbati， iruhande hariho ibikombe ndetse n'umuntu uhicaye n'inkweto za bodaboda， abantu b'ababyeyi ndetse n'abakobwa bakunda kwambara，bari mu rugo iwabo.

Abantu benshi batandukanye, bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, harimo abagabo n'abagore bari mu murima uhinzwemo igihingwa cyitwa imyumbati.

Umugabo uri mu murima uhinzwemo igihingwa cyi'icyayi, akaba ahetse igitebo ari gusoromeramo icyayi gifashwe n'umugozi uri k'umutwe we.

Ababyeyi bambaye imyenda bakaba bahagaze mu murima hagati, uhinzwemo igihingwa cy'igihwagari gifite indabo zisa n'umuhondo hejuru. Gifite n'amababi ku mpande afite ibara risa n'icyatsi.

Igikoresho cyitwa umufuka kirimwo ibirayi byo mu bwoko bwa Kinigi abantu bakunda gukoresha murugo bategura amafunguro yo kurya.

Ahantu hari abantu benshi batandukanye, baje kugura no kugurisha imbuto ziribwa zitandukanye arizo ibinyomoro, amatunda, amaronji, amacunga na wotamerone.

Imboga nyinshi zirunze ahantu hamwe zo mu bwoko bwitwa Pavuro, abantu bifashisha bateka mu rugo bakoramo ibyo kurya bakiza abantu batandukanye.

Ikiganza cy' umuntu kiriho ibishyimbo byo mu bwoko bw'imiteja. Iruhande rwacyo hariho umurima uhinzwemo ibishyimbo bifite uruyange, ndetse n'amababi afite ibara ry'icyatsi.

Abagabo babiri bari mu murima uhinzwemo ibihingwa by'ibigori, bakaba bari gusukira. Iruhande hahagazeho umugabo ufashe amahundo y'ibigori, n'inyubako yubatswe isakaye, ifiteho ikigega gifata amazi.

Umubyeyi wambaye imyenda ifite ibara risa n'icyatsi n'igitambaro mu mutwe n'agakapu kari ku ruhande rw'ibumoso ,yunamye mu murima urimo ibyatsi hakaba hatewemo n'igiti cy'urubuto rw'ubwoko bwa avoka.

Ubuhinzi bw'igihingwa cyitwa igihwagari, gifite amababi asa n'icyatsi ndetse n'uturabyo dufite ibara ry'umuhondo ,iyo cyeze baragisarura bakagikoramo amavuta.

Igikoresho kirimo imbuto yubwoko bw'ibishyimbo bihingwa, gitereretse ahantu hafite ibara risa n'umukara cyane cyane.

Umugabo n'umugore bari guherezanya ibigori by'amahundo, ngo babimanike mu nzu yagenewe gushyirwamo umusaruro ukomoka ku bigori, ngo utunganywe neza.

Umurima urimo igihingwa cyitwa amashaza, kikaba gifite impeke ndetse gifite n'amababi asa n'icyatsi, iruhande hariho ibindi byatsi bya kimeza.

Umurima uhinzwemo ibihingwa bitandukanye, harimo igihingwa cy'ibigori kuruhande hateyeho ibiti bifite amashami bigwanya isuri mu gihe cy'imvura.

Ubwoko bw'ibishyimbo bihinzwe mu murima bikaba bifite imiteja n'amababi afite ibara risa n'icyatsi, ndetse n'ururabo rufite ibara risa n'umutuku.

Ibutaka buhinzweho igihingwa cy'igihwagari gifite amababi ndetse n'uturabyo dufite ibara ry'umuhondo, iyo cyeze baragisarura bakagikoramo imiti ivura abantu n'amavuta yo kurya.

Inyubako yo mu bwoko bwa kinyarwanda, iruhande hakaba hariho ubuhinzi bw'urutoki, imbere hariho umubyeyi uri gutunganya imbuto y'ibishyimbo ku gikoresho cyitwa ikirago.

Umurima uhinzwemo igihingwa cy'ibireti iyo cyeze baragisarura bakakijyana mu ruganda bakagitunganya hakavanamo imiti ivura abantu n'ibisigazwa bigakoreshwamo mu kuvanamo ifumbire ihingishwa mu mirima y'abaturage.

Umubyeyi wicaye yambaye imyenda ifite amabara atandukanye, ari gutoranya impeke z'imbuto z'igihingwa cyitwa soya, ziri hejuru y'umufuka usashe hasi ufite ibara risa n'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu baza gucuruza ndetse no guhaha ibiribwa byiganjemo ibishyimbo abantu bifashisha mu rugo bategura amafunguro yo kurya.

Umuntu wicaye mu murima yitwikiriye umutaka afite akabase, iruhande rwe hari umwana uri gutunganya ibirayi bakuye mu murima.

Igikoresho cyitwa umufuka kirimo umusaruro w'ibihingwa bikomoka ku bishimbo. Bikaba biteretse hejuru y'igikoresho cyitwa umukeka.

Umubyeyi wambaye umwenda ufite ibara risa n'ubururu yiteze n'igitambaro mu mutwe ,akaba ahetse umwana ari kugosora ibishyimbo ku ntara, iruhande rwe hari inzu yubakishijwe ibiti irimo n'ibyondo.

Inyubako isakajwe amabati ikaba yubakishijwe na bwo amabati iruhande hariho igikoresho cyitwa imifuka kirimo ibiribwa bitandukanye hakaba horoshweweho ihema.

Abagore batatu bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye bahagaze mu murima uhinzwemo igihingwa cyitwa ibirayi ndetse n'amasaka.

Amahundo menshi y'igihingwa cyitwa ibigori akaba amanitse mu nyubako isakaye ifite n'ibiti ku mpande, yagenewe gushyirwamo umusaruro weze.

Umurima urimo igihingwa cyitwa amasaka ageze igihe cyo gusarurwa, akajya guhunikwa ubundi agatunganywamo ibyo kurya by'abantu.

Abantu bari mu murima uherereye mu gishanga hirya yabo hariho ubuhinzi buhinzwe mu dusitari bufite ibara risa n'icyatsi.

Abagabo babiri bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu bari kumwe n'inyamaswa yitwa inka, iruhande rwabo hariho ubutaka bumezeho ibyatsi.

Ahantu hagenewe kororegwa amatungo yo mu bwoko bwitwa inka. Hakaba hariho n'abantu bashinzwe kuzicungira umutekano, baba bambaye inkweto zifite ibara ry'umukara.

Ikiraro cyubakishijwe imbaho kikaba kirimo ubworozi bw'inkwavu zifite ibara risa n'umweru, zikaba zifite n'ubwatsi zigenewe kurya.

Umuntu wambaye umwenda ufite ibara risa n'icyatsi, akaba afite igikoresho mu ntoki bifashisha bari gukingira ubworozi bw'amatungo, ari bwo inka ndetse n'andi matungo yororerwa mu ngo z'abantu.

inyubako isakaje amabati, ikaba yororerwamo ubworozi bw'inkoko zivamo inyama, zikaba zigaburirwa ibyatsi bituma zikura neza.

Umubyeyi wambaye imyenda, afashe urukwavu mu ntoki rufite ibara risa n'umweru, inyuma ye hari akazu kubatswe kubakishijwe imbaho kanasakaye.

Inka ifite ibara ry'umweru n'umukara ihagaze ahantu hameze ibyatsi, ku ruhande hariho uruzitiro ruzitijwe ibiti, ndetse n'ubwoko bw'imiyenzi hariho n'igihingwa cy'insina.

Inyubako ya kijyambere ishinzwe kororerwamo ubworozi bw'inkoko arizo inkoko zibibamo inyama ndetse n'inkoko zitera amagi yo kugurishwa ndetse n'ayo guturaga imishwi.

Amatungo yo mu bwoko bwitwa ihene zifite amabara atandukanye， harimo umweru， umukara， n'igitaka， zikaba ziri ahantu hamwe， mu kibuga cyamezemo ubwatsi bufite ibara ry’icatsi.

Itungo ryo mu bwoko bwitwa inka. Rifite ibara ry'umweru n'umukara, hirya hariho ikiraro cyubakishijwe imbaho. Hicaye umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, hariho n'ikigega gifata amazi.

Itungo ryo mubwoko bwitwa ingurube rikaba ryarabwaguye ibyana umunani, rifite amabara y'umweru n'umukara, zikaba ziryamye hasi mu kiraro cyubakishijwe imbaho zikomoka ku biti.

Inka ifite ibara risa n'umweru ndetse n'umukara iri kumwe n'inyana yayo, biri ahantu hari ubwatsi hashinze igiti kimwe, ikindi gitambitse.

Aho amagi abikwa mu dukoresho twabugenewe kugira ngo atabasha kwangirika akameneka, hanyuma akazajyanwa ku isoko akabasha kugurishwa uko bikwiriye.

Umuntu wambaye imyenda ifite ibara risa n'umukara akaba ahagaze iruhande rw'ikiraro cyubakishije ibiti kinasakaye cyororerwamo ubworozi bw'ingurube.

Inzu yubakishijwe ibiti ihomyeho ibyondo ikaba isakaje amabati, iruhande hariho amatungo magufi ariyo ihene ndetse n'inkoko, iruhande hariho umuntu uhagaze ndetse n'igihingwa cy'urutoki mu kuboko kw'ibumoso kwe.

Itungo ryo mu bwoko bw'ingurube, ryabwaguye ibyana bigera mu icumi ,rikaba riryamye hasi, riri kubyonkereza mu kiraro cyubakishijwe imbaho, zikomoka ku biti byumye.

Abagabo babiri bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, bahagaze mu murima ufite ibyatsi, bari gufuhira umuti inka iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti by'imbaho.

Abagabo batatu bari mu murima, umezemo ibyatsi bitandukanye, bakaba bafitemo inka baje kuyiragira, kugira ngo irishe ubwo bwatsi.

Ishamba ryamezemo ibiti, hariho n'ibyatsi bitandukanye, harimo n'inyamaswa ebyiri zirisha ubwatsi, kandi akaba ari na mwo zibera.

Inyamaswa yo mu bwoko bwitwa imvubu ikaba iri mu mazi iri kumwe n'umwana wayo akaba ari ho ikunda kwibera mu buzima bwayo bwa buri munsi mu kiyaga.

Inyamaswa yitwa ingagi ikaba ifite uruhu rufite ubwoya bufite ibara risa n'umukara ikaba ikikiye n'umwana wayo nawo ufite ibara risa n'umukara ku bwoya bwarwo.